Umuntu uhetse ipombo iri mu ibara ry'ubururu uri kugenda utera imiti ku myaka, bigaragara ko ari ibihingwa bikiri bitoya bisa nk'aho byari byarafashwe n'indwara runaka cyangwa se ari kuyikingira.

Umugabo uri mu mirimo yo gutera imiti imyaka uhetse ipombo bifashisha iri mu ibara ry'umuhondo, wambaye akagofero gatukura n'agasengeri gatukura n'ikabutura y'igitaka.

Umuturage uhetse ipombo iri mu ibara ry'umuhondo yifashishwa mu gutera imiti, aho ari gutera umuti ibihingwa bye by'inyanya, hakurya ye hakaba hari ibihingwa by'amashu bigaragaramo nk'aho bikiri bitoya bikeneye kwitabwaho.

Umuntu ufite ipompo wambaye ga z'icyatsi kibisi, urimo uragenda utera imiti imyaka. Yambaye agapira ko mu ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro yo mu ibara ry'ivu yikoboye, akaba ahagaze ari kugenda.

Ishusho igaragaza umugabo ufite ifi, wambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umukara na bote z'umuhondo, ishyize ku munzani w'ubururu hafi ku kiyaga hari insina n'amazi.

Umugabo uri ku cyuzu, uri mu bworozi bw'amafi, aho ari kugenda anaga ibiribwa by'ayo mafi mu mazi muri icyo cyuzi yororeyemo, akaba yambaye ingofero iri mu ibara ry'umweru, ishati ifite amabara y'umweru n'umukara, agiye avangavanze, afite indobo mu ntoki.

Abantu babiri bari mu cyuzi cy'amafi, harimo umwe wambaye agasengeri, ufite ifi mu ntoki n'undi uri iruhande rwe nawe wambaye umupira w'umweru, n'ingofero y'umukara usa nk'aho ari gukora mu mazi.

Icyuzi cyororerwamo amafi, hari umuntu urimo uragaburira ayo mafi kugira ngo azakure neza, ariho aranaga ibiryo by'ayo mafi muri icyo cyuzi.

Umugabo wambaye ingofero n'ishati y'amaboko maremare irimo amabara atandukanye yumweru n'umutuku, ufite indobo mu ntoki, wambaye n'ikoboyi, usa nk'aho urimo ugaburira amafi ku cyuzi cyayo, ahakorerwa ubu bworozi.

Abantu bari mu bworozi bw'amafi, aho bari mu byuzi bari kuroba, barimo abagabo bambaye imyenda y'icyatsi kibisi bafite inshundura barimo baragenda mu cyuzi cy'afi.

Icyuzi gitoya gikorerwamo ubworozi bw'amafi. Gikoze neza, kikaba gikikijwe n'ibyatsi. Bifasha ayo mafi arimo kubona ibyo kurya, ku buryo bworoshye. Kikaba kirimo n'amazi meza.

Igiti cy'ikawa kigaragaza ko zeze gifite amababi y'icyatsi arimo iz'umutuku, izindi z'ibitubwe ziteye kandi izi kawa zikaba ari nziza cyane.

Ishusho garagaza abagore bane bahetse ibitebo, bisa nk'aho bari gusarura icyayi, ibitebo byo mu ibara ry'igitaka, bateze udutambaro tw'amabara atandukanye tw'umweru, umutuku n'icyatsi.

Abantu bahagaze ku nkengero z'umurima w'igishanga cy'umuceri aho baje kureba aho umuceri bateye ugeze ukura, harimo umugabo, inyuma ye hari abadamu babiri.

Abantu batatu bari mu gishanga kezemo igihingwa ngandurarugo kizwi ku izina ry'umuceri, harimo abadamu babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye akagofero k'umweru n'umupira w'icyatsi.

Ishusho igaragaza imifuka irimo ibiryo by'inyongeramusaruro ku matungo, biri mu dufuka dufite amabara y'umukara, icyatsi ,n'umweru bishushanyijeho inka, ingurube, n'inkoko.

Udukarito ndetse n'ibikombe birimo imiti y'amatungo, biriho ibirango biri mu mabara atandukanye, harimo ibiri mu dukarito tw'ibara ry'umweru n'umutuku ibindi bikaba mu ducupa dushushanyijeho inkoko.

Udushashi turimo imiti y'amatungo, hariho ibishushanyo bitandukanye, harimo ibyashushanyijeho inka, ibindi bikaba biriho amatungo magufi nk'inkoko, akaba cyanditsweho leyizi egitara.

Imiti y'amatungo iri mu macupa yayo yabugenewe, iri mu bwoko butandukanye. Iriho ibishushanyo bitandukanye ndetse rero no mu birango bitandukanye. Imwe ishushanyijeho inka iri mu birango bitukura .Indi ikaba iriho amatungo magufi nk'ihene n'ingurube.

Inyamaswa y'igasozi izwi ku izina ry'impara ifite amabara y'umweru n'umukara, ihagaze mu byatsi hafi y'ibiti by'ubwoko bw'umunyinya.

Ishusho igaragaza abahinzi bageze kuri batatu bicaye mu murima w'inanasi zikiri ntoya zitarizera bakikijwe n'urutoki harimo umugabo umwe n'abagore babiri.

Umugabo wambaye ga zo mu ibara ry'umukara, ishati y'umweru ndetse n'akagofero ko mu ibara ry'umukara uriho uratera igiti, akaba ari kugenda agishyiraho ibitaka ku ruhande kugira ngo gifate kizaku neza.

Igiti cy'umwembe, gishishe kitarikera, ariko gifite uruyange kiri kugaragaza ko mu minsi iri imbere kizaba cyazanye imbuto z'imyembe.

Ishusho igaragaza umurima w'urutoki uvanzemo n'ibindi bihingwa, urutoki harimo insina zannye n'izindi zitarikwana, harimo ibitoki bikuze n'ibitari byakura neza.

Imbuto, imboga ziri aho zigurishirizwa ziganjemo imineke, inyanya, karoti, ibiriganya biri mu mabara y'umutuku, umukara ndetse na oranje.

Ishyamba ririmo umugezi muto uritemberamo, ririho ibiti bishishe bikikije uwo mugezi, ndetse n'ibyatsi bisa icyatsi kibisi, nabyo bishishe, amazi atari menshi atemba muri uwo mugezi.

Ishusho igaragaza igishanga gikikijwe n'ibimera bitandukanye harimo ibiti by'inturusu n'ibindi biti by'ubundi bwoko, harimo ibyatsi bigufi n'ibirebire.

Ishusho iriho igihingwa cy'ubwoko bw'imbuto biryohera zitwa pome cya epo zitukura ziri ku giti cy'icyatsi gifite amababi magufi.

Imbuto n'imboga biri hamwe, harimo imineke, pome, inyanya, pavuro, kokombure ndetse na karote, hakagaragaramo amaronji n'imikeri.

Umuhinzi wa kijyambere uri mu buhinzi bwe wambaye imyenda iri mu ibara ry'icyatsi, akaba ari aho yahinze inyanya zigaragara harimo izeze ziri zitukuye n'izindi zitari zera neza zigisa icyatsi, akaba arimo arasarura kandi anita kuri izo zindi.

Umugabo uri mu nzu y'ubuhinzi buteye imbere, aho yambaye umwenda w'icyatsi kibisi, akaba afite agatebo ko mu ibara ry'ubururu, karimo imboga zo mu bwoko bwa pavuro zeze, zisa umutuku.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ko mu ibara ry'ubururu n'umupira w'ubururu ufite igihingwa uhagaze muri pepenyeri aho batuburira imbuto z'ubwoko butandukanye, akaba yambaye ipantaro isa oranje.

Umuhinzi wa kijyambere, uri mu buhinzi bwe, wambaye itaburiya yo mu ibara ry'icyatsi na boteza mu ibara ry'umukara, aho bigaragara ko yiteje imbere mu bijyanye no guhinga indabyo z'ubwoko.

Abantu babiri bahagaze muri pipinyeri, aho batuburira imbuto, bambaye udupfukamunwa. Umwe uteze igitambaro undi yambaye ingofero y'urugara, bafite ingemwe z'amashu akiri matoya. Undi afite inote mu ntoki yambaye n'agasengeri.

Uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka, aho ukoresha tekinoloji cyangwa se ikoranabuhanga, amazi akuhira imyaka nta muntu ubikoresheje uri hafi aho, akagenda azenguruka.

Ishusho y'umugabo ufite rozwazare ebyiri zo kuvomerera ibihingwa byo mu bwoko bw'amashu ashishe n'amazi asa neza ari kuhiza.

Ishusho igaragaza umugabo wambaye imyenda y'umukara umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, ufite ikivomoresho ari kuvomerera mu murima, harimo hakurya urutoki, ikigaragaza ko ari kuvomerera imyaka itari yakura.

Ishusho y'umuntu ufite rozwara uri kuvomerera urubuto rukiri rutoya. Rugaragara ko rutari rwafata mu butaka. Ari kuvomeresha amazi meza, yambaye ipantaro y'ubururu n'inkweto zifunze.

Ishusho igaragaza umugabo uri kuvomerera witeye umupira ku rutugu. Wambaye undi w'icyatsi ufite utubabi mu ntoki. Akambara ipantaro y'ubururu, uhagaze mu murima urimo ibigori n'ibindi bihingwa.

Ubworozi bugezweho bw'amatungo magufi, inkoko zikiri imishwi zikiri ntoya, ziri hamwe, aho zororerwa, hakaba harimo n'imbabura cyangwa se icyafasha kuhashyushya kugira ngo izo nkoko zidahura n'ikibazo.

Ubworozi bw'amatungo magufi ariyo inkoko ziri mu nzu yazo aho zigaburirwa zikanaba, harimo ibyo zigaburirwamo biri mu ibara ry'umweru ku birango by'umutuku, hakaba harimo inkokokazi ndetse n'amasake.

Ubworozi bw'amatungo magufi inkoko, aho ziri mu mabara atandukanye zikaba ziri mu kiraro cyazo aho ziba, harimo iz'umukara ndetse n'izindi z'umweru, hakaba harimo n'aho zirira hari mu ibara ry'umweru.

Ubworozi bw'amatungo magufi ari iyitwa inkoko aho ziri mu kiraro cyazo, inkoko z'umweru n'aho zirira habugenewe, hari mu mabara y'umutuku n'ahandi harimo amabara y'umweru.

Ishusho igaragaza ubworozi buteye imbere, nk' amatungu maremare, ariyo y',inkari ziri mu biraro, bisukuye harimo ushinzwe kuzireberera, kuziha byatsi.

Ubworozi bw'amatungo maremare bugezweho, inka ziri mu gikuyu aho zirisha. Zikaba ziri mu bwatsi bushishe, harimo iz'inkungu ndetse n'izifite amahembe. Hakaba ahari iz'ibihogo, iz'umukara n'iz'igitare.

Ubworozi bw'amatungo magufi azwi ku izina ry'ihene. Aho ziri hamwe, ziri mu ibara ry'umweru. Hakaba hari inyubako yazo ndetse n'abantu bazireberera, harimo n'ikigega cyubatse kuri iyo nyubako gishinzwe gufata amazi ayituruka.

Ubworozi bwa kijyambere bw'amatungo magufi y'inkoko, ziri mu kiraro hakaba harimo za pondezi n'icyo ziriramo kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku.

umuturage urimo uratunganya imyaka y'ubwoko bw'ibigori, aho ari kubyandika kuri shitingi, ni umudamu, ateze agatambaro, yambaye agapira kari mu mabara y'umweru n'umutuku, akenyeye n'igitenge.

Imbuto zikoreshwa mu buhinzi ziri mu dufuka dutandukanye harimo ibishyimbo by'umutuku, by'umukara ndetse hakabamo ubunyobwa hakaza amageri cyangwa se amashaza yumye.

Ubworozi buteye imbere bw'amatungo magufi ari yo yitwa inkoko n'umuntu uriho arazigaburira mu gikoresho cyabugenewe kiri mu ibara ry'umutuku, aho yambaye isarubeti y'icyatsi kibisi.

Ubworozi bw'amatungo maremare azwi ku izina ry'inka, aho ari aho yororerwa, hakaba hari n'abantu bayahagaze iruhande, harimo abambaye amataburiya yo mu bwoko bw'umweru na bote, abandi bambaye ibisa ubururu.

Inzu igaragaza umugabo wambaye ga z'ubururu n'itaburiya y'umweru ugaragara nk'umuganga w'amatungo uri gutunganya imiti ku cyuma gitunganya imiti.

Ishusho igaragaza amatungo y'inka z'ubwoko bw'inyambo, zifite amahembe manini, zisa nk'ikigina, zihagaze ku icukiro, zashotse zigiye kunywa.

Inyamaswa y'agasozi izwi ku izina ry'inzovu. Ziragaragara ari eshatu imwe nini, indi iri mu kigero n'akandi gatoya. Ziri ku murongo aho ziri.

Ishusho igaragaza inyamaswa z'igasozi ziganjemo imara z'umweru n'umukara, ndetse n'imparage ziri kurisha ahantu hari ibyatsi bigufiya bisa nk'ibyumye n'ibindi bishishe.

Ishusho igaragaza inyamaswa yo mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi igisamagwe. Isa nkaho ari cyo yari ibundikiriye mu byatsi by'icyatsi, itegereje gufata umuhigo.

Ubwoko bw'inyoni y'igasozi izwi ku izina rya picok mu ndimi z'amahanga, ikaba ihagaze ishyamba ry'imigano, ikaba iri mu mabara meza nk'uko ayirangwaho.